Hari abaganga batatu. Umwe ari gufata ibizamini by'umuvuduko w'amaraso. Undi akaba ari gutanga ibizami by'uko amerewe. Aba baganga umwe ari kwandika afata amakuru y'ibyo ari kubwirwa. Bakaba ndetse hari bari kwandikira ku meza, iteretseho umuti wo gukaraba intoki.

Icyapa kigaragaza aho ibitaro bya CHUB biherereye ndetse n'inyubako zo mu bwoko bw'igorofa igeretse inshuro imwe, hakaba hari n'umuhanda ndetse ugaragazamo aho ihuriro ry'imihanda riri.

Ni umuntu uri gusekura yifashishije agasekuru ndetse n'umuhini, akaba yateretse ahantu hari ikirabo, cyangwa se umusambi, impande yiwe hakaba hari udusahani duteretseho ubwoko bw'imiti ya gakondo, yakwifashishwa mu kuvura.

Ni umuti woza amenyo agasa neza, ukaba ufasha mu gusukura mu kanwa, no kuharinda indwara zitandukanye ziza ari ibyuririzi, ni umuti wo mu bwoko bw'ibyatsi, ukaba ukoze mu gikakarubamba, ukaba ufasha kugira impumuro nziza ndetse no guhora mu kanwa hawe hakeye kandi hasa neza, ukaba urinda n'indwara zigenda zitandukanye.